Umugabo ndetse n'umugore uteruye akana, bambaye imipira y'imyeru ndetse bafite igikarita kinini mu ntoki zabo, bigaragara ko ari sheki babasinyiye, iriho amafaranga.

Ipikipiki iri mu muhanda, ikoze impanuka ndetse n'imodoka iyiri imbere, ikigo gitanga ubwishingizi iyo bigenze gutya kirakugoboka kikaguha ubwishingizi bw'ubuzima cyangwa bw'ibinyabiziga.

Umugore wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, agasengeri k'umukara, ari mu nzu akoreramo ubucuruzi bwiwe, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'inyanya ndetse n'amabiswi.

Ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye y'abagore izwi nk'amakanzu, ikaba iri mu mabara atandukanye, hino hari imirimbo y'indi yo ku maboko ndetse no ku matwi abagore bakunze gukoresha.

Akantu gakozwe mu giti, kamanikwaho imyambaro igiye itandukanye, hariho imitako y'abagore bambara mu ijosi igitandukanye, ikozwe mu masaro afite amabara atandukanye.

Ahacururizwa amakote agiye atandukanye, afite amabara atandukanye, hari ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, umukara ndetse n'umweru, akunda gukodeshwa n'abageni n'abandi bantu bafite ibirori.

Ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye, amakote yambarwa n'abagabo, hakaba harimo abantu batandukanye, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi baje kugura iyo myenda ndetse hakaba n'ibipupe bambika imyenda kugira bagaragaze ubwiza bwayo.

Ahacururizwa imyambaro ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubugeni, bikorerwa mu Rwanda ndetse bidozwe no mu bitenge, hakaba hari igipupe cyambitswe ikanzu nziza ndetse imbere hari ikirahure cyo kwirebamo.

Ahacururizwa imyenda igiye itandukanye y'abagabo, izwi nk'amakote ndetse n'amashati. Hakaba hari ikote ryiza cyane riri mu ibara ry'ubururu, ririmo uturongo tw'umweru, n'ishati mo imbere y'ubururu.

Abagabo babiri bahagaze hamwe. Umwe afashe ikintu kimeze nk'urufunguzo cyanditseho Akagera Motors. Ndetse hari n'undi mugabo w'umunyamahanga, ufite agakapu gatukura mu ntoki ze. Ku ruhande rwabo hari imodoka.

Imodoka ihagaze mu muhanda wa kaburimbo, yakije amatara abiri y'imbere azwi ku izina rya kamenabihu. Ni imodoka ya Toyota ikaba iri ku giciro cya miliyoni cumi n'eshatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Abagabo batatu bahagaze hamwe, umwe ni umunyarwanda, abandi ni abanyamahanga, bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru, bafashe ishusho y'ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki zabo, ku ruhande haparitse imodoka yo mu bwoko bwa fuso.

Abagabo batatu bahagaze hamwe, bafite ishusho yikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki, umwe muri bo afite n'agakapu k'umutuku, inyuma yabo haparitse imodoka ebyiri nziza cyane.

Abagabo babiri bahagaze hamwe bafite ishusho y'ikintu kimeze nk'urufunguzo, cyanditseho compani bakorera, umwe muri bo afite agakapu gatukura mu ntoki ndetse inyuma yabo hari imodoka ebyiri.

Abagabo babiri bahagaze hamwe, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye iy'umukara, bafashe ishusho y'igifunguzo kinini mu ntoki zabo ndetse inyuma yabo hari imodoka iri mu bwoko bwa fuso.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikinyabiziga cy'umukara, abagabo umwe yambaye ikositime, undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi. Bakaba bari mu gipangu.

Abagabo babiri bahagaze bafashe ikintu kimeze nk'urufunguzo mu ntoki zabo, cyanditseho Akagera motozi, inyuma yabo hari imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso itwara peterori.

Abagabo babiri bahagaze, bose bambaye neza ndetse bafite ishusho y'ikintu kinini kimeze nk'urufunguzo, cyanditseho amazina ya kampani bakorera. Inyuma yabo hari imodoka eshatu ziri mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bahagaze hamwe, umwe ari kubara amafaranga akoresheje imashini yabugenewe, akaba yambaye agapira k'ubururu, hanyuma undi ari guhabwa serivisi afite umupira w'umutuku ku rutugu.

Inote y'amafaranga magana atanu, yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda, itegeko rihana umuntu wese uzigana iyi note, iriho abana batatu bari kwiga n'ingagi.

Amafaranga magana atanu, yanditseho banki nkuru y'u Rwanda, iyi noti yemewe n'amategeko, harimo inka ebyiri ziri mu mabara atandukanye umukara n'umweru.

Amafaranga ibihumbi bitanu, ariho ingagi, yanditseho banki nkuru y'u Rwanda, iyi noti yemewe n'amategeko, iyi akaba ari yo note nini mu gihugu cy'u Rwanda.

Inote y'amafaranga ijana yanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda, ikaba iriho umugore uhetse umwana, ni amafaranga yakoreshwaga mu gihe cya kera batarashyiraho ayasimbura.

Igiceri gikozwe mu cyuma cy'amafaranga mirongo itanu, kikaba kiriho ibirango bigiye bitandukanye ndetse kikaba ari icyo mu Bufaransa cyifashishwa n'abatari bakeya kugira ngo babashe kubona ibyo bagura.

Ibyokurya bigiye bitandukanye bifunze mu mapaki, hari ibyitwa cake ndetse n'amandazi, byose babikora mu ifarini ndetse bimwe muri byo bakabinyuza no mu mavuta, bikaba bikundwa n'abatari bake.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi bigendanye nayo, hakaba hari icyapa kinini kiriho ibindi binyobwa bitandukanye bacuruza, hari imashini yifashishwa mu gutunganya amata agakomeza ameze neza.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi biyakomokaho, hari etajeri nini irimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo amazi, imitobe iryohera ndetse n'ibyongera imbaraga. Hakaba hari n'intebe isa ubururu.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hakaba hari etajeri ipanzemo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, hino hari indi etajieri iteretseho indobo ndetse harimo ibirahure byo kunywesha amata bitandukanye.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho hari umudamu uri gutanga amata ndetse n'uwaje kuyagura, hino hari imashini ishyirwamo amata kugira ngo akomeze ameze neza afite ubuziranenge.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi bigendana nacyo. Hari umugabo uhagaze imbere wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara ndetse ku meza hateretse isahani iriho keke.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi bigendanye na yo. Hakaba harimo umugabo ndetse n'umukobwa. Ku ruhande hari icyuma gishyirwamo amata kugira ngo akomeze afite ubuziranenge. Hirya hari ibyo kunywa bindi bigiye bitandukanye.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho. Hari icyuma cyifashishwa mu gutunganya amata, agakomeza ameze neza afite ubuziranenge. Ndetse hejuru yacyo hateretseho akantu karimo impapuro z'isuku.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi biyakomokaho. Hakaba hari abantu bahagaze ku ruhande ndetse n'akajerekani k'umweru karimo amata yuzuye y'ikivuguto akorwa n'uruganda i Nyanza.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hari umumama ufite ijage mu ntoki ari gutanga amata, ku ruhande hari imashini yifashishwa mu kubika amata, kugira akomeze ameze neza afite ubuziranenge.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hari ibikuta by'ubururu ndetse hakaba na etajeri zigiye zipanzemo ibyo kunywa. Ku meza iri imbere hateretseho indabo ebyiri zirimo ibikorwa mu ifarini.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigendana nayo. Hari umuhungu wicaye inyuma, wambaye ijire itukura, uri kwitegereza akana gahagaze imbere, gafite telefone ngendanwa mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo haparitse ipikipiki ndetse hari icyapa cyanditseho welcome home, kigaragaza ibiribwa bagiye bafite, bigaragara ko ari ahacururizwa amata n'ibindi.

Ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho bakaba bacuruza n'ibindi byo kurya bitandukanye hakaba hari indobo ebyiri ziteretse ku meza zirimo keke, zirapfundikiye kugira ngo hatajyamo imyanda.

Ibiganza by'ibara ry'igikara bifashe telefone ngendanwa mu ntoki. Harimo apurikasiyo y'ikigo gishinzwe itumanaho cya MTN. Aho ushobora kubitsa ukanabikuza.

Amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye, harimo amayero, amanyarwanda ndetse n'amadolari, akaba akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye, aho ushobora kugana ibiro bishinzwe kubitsa no kubikuza amafaranga bakagufasha.

Umugore w'inzobe afite imisatsi ndetse yambaye umwambaro w'umweru, bisa nkaho ari gucana itara ryo mu nzu, akaba ari kwamamariza ikigo cy'itumanaho cya Aitel, ko ushobora kugura umuriro ukifashishije.

Ishusho y'igitente cyambaye ikote ritukura, ishati y'umweru, gifashe telefone ngendanwa mu ntoki. Kikaba kiri kwamamaza uko ushobora kwigurira amayinite yo guhamagara cyangwa enterinete.

Amafaranga mirongo itanu, akoreshwa mu gihugu cya Congo. Akaba ari amafaranga ushobora kwifashisha wageze no mu bindi bihugu kubera ko haje uburyo bwo kujya kuguriranisha amafaranga bakaguha andi.

Ibiganza bifashe mu ntoki amafaranga y'amanyamahanga, amenyerewe cyane nk'amadolari kubera ukuntu akoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye, uyafite ushobora kugana ibiro bishinzwe kuguranisha amafaranga, bakaguha ay'igihugu utuyemo.

Amafaranga y'amanyamahanga, hari umuntu uri kuyabara kugira ngo amenye umubare wayo ndetse imbere hari ibyuma byabugenewe bizwi nka karikireta yifashishwa mu kumufasha kubara aya mafaranga, akamenya umubare wayo.

Urutonde rw'uko amafaranga y'amanyamahanga ahagaze mu bindi bihugu, aho amafaranga y'Abanyamerika Idolari rimwe ringana na rimwe, naho Amayero kangana na zeru n'ibice magana kenda na cumi n'ikenda.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Umuhanda w'amabuye uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amapikipiki, hirya yawo mu gahanda k'abanyamaguru hari gucamo abagenzi ndetse hari n'inzu z'ubucuruzi zitandukanye.

Ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye: harimo intebe, ameza yo kuriraho, utubati dushyirwamo imyenda ndetse n'utubikwamo ibikoresho byo mu gikoni, byose bikaba bikozwe mu mbaho.

Inzu nziza cyane ifite akabati kabikwamo ibikoresho byo mu rugo. Akaba ari ameza ateguye neza, ariho amasahani agiye atandukanye n'intebe bicaraho. Ku ruhande hakaba hari amatara agiye azamuka.

Ahantu hari ruhurura inyurwamo n'amazi y'imvura cyangwa avuye mu ngo z'abaturage, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane, bigaragara ko hakorerwa imirimo yo kubaza ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye, hakaba hari ameza intebe zo kwicaraho, utubati tubikwamo ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'utubikwamo imyenda, byose bikozwe mu mbaho.

Inyubako ifite imiryango y'ubururu, mo imbere hateretsemo intebe ebyiri ziri mu ibara ritukura, hakaba hatangirwa serivise zigiye zitandukanye z'amabanke atandukanye ndetse n'Irembo.

Abamama babiri umwe aricaye undi arahagaze bari gusuhuzanya, uwicaye yambaye umwambaro w'icyatsi imbere ye hari mudasobwa, ku ruhande rwe hari agapapuro k'umuhondo kariho kode yo kwishyuriraho.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama. Bicaye ku ntebe z'imikara. Abenshi muri bo, bari kumwenyura, barishimye. Imbere yabo ku meza, hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abagabo bahagaze bambaye amakote, umwe yambaye agapfukamunwa, ishati, karuvati y'umutuku ndetse hari n'umudamu wambaye ikanzu y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara. Imbere ye hari mudasobwa.

Umukobwa wambaye ingofero yifashishwa n'abantu bubaka, isa umweru ndetse n'umupira w'umweru n'ijire, riri mw'ibara rya oranje, akaba afite n'isaha ku kaboko.

Umukobwa uhagaze ufite imisatsi miremire, yambaye ikanzu y'icyatsi ahagaze imbere y'icyuma ushyiramo ikarita kikaguha amafaranga ahwanye nayo wifuza ahuje n'ari ku ikarita yawe.

Abaturage bagiye batandukanye bari hamwe harimo abamama, harimo abateruye utubase mu ntoki zabo ndetse abenshi muri bo bafite n'ibitabo mu ntoki.

Abadamu bagiye batandukanye bambaye ibitenge bari mu isoko ahacururizwa ibyokurya bigiye bitandukanye ndetse hari n'abaje kubagurira ibyo bicuruzwa byabo bafite.

Abaturage bagiye batandukanye bahagaze hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, kandi impande yabo hari inyubako ndende, n'insinga z'amashanyarazi zigenda zikwirakwiza umuriro mu baturage.

Mu isoko ahacururizwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye harimo imyambaro, ibikapu, ndetse n'ibindi. Harimo abantu benshi, abaje kugura ndetse n'abari gucuruza ibyo bicuruzwa byabo.

Mu isoko rya kijyambere, ritwikiriye ahacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo karoti, intoryi, ibitunguru, hamwe n'inyanya, ndetse n'ababicuruza.

Mu isoko rya kijyambere ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye. Harimo imbuto ndetse n'ibihingwa. Hakaba hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku, uri guhereza ibyo umucuruzi wambaye ishati y'umukara aguze.

Mu isoko ririmo abantu bagiye batandukanye, bari gucuruza ibicuruzwa byabo, biri mu mabase n'utudobo, ndetse n'ibindi birambitse hasi. Bikubiyemo insenda, intoryi, karoti ndetse n'inyanya.

Mu isoko rigizwe n'abamama benshi, bari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'imboga, hakaba harimo ibitunguru, inyanya, karoti ndetse n'amashu. Hirya, hari andi mazu y'ubucuruzi.

Ahazwi nko mu isoko hacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye, birimo imboga ndetse n'ibindi, harimo ibyiganjemo karoti, ibitunguru, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye hazwi nko mu isoko. Harimo ababicuruza ndetse biteguye kwakira abaza babagana. Mu byo bacuruza harimo karoti, intoryi n'inyanya.

Mu isoko ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye cyane cyane iy'abagore. Harimo ibitenge by'amabara agiye atandukanye ndetse n'indi mitako. Hakaba harimo abantu baje kugura n'abandi bari gucuruza.

Isoko rya kijyambere, ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, amabase, ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba harimo ababicuruza bicaye.

Ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye bigaragara ko ari mu isoko, harimo karoti, inyanya, amashu n'ibindi ndetse hakaba harimo n'aba mama bari kubicuruza bitwikiriye umutaka.

Isoko rya kijyambere ritwikiriye, rikaba ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye: nk'ibitoki, karoti, intoryi ndetse n'ibitunguru, hakaba harimo n'abacuruzi n'abaje kubagurira.

Ahacururizwa imboga z'amoko agiye atandukanye, zipanze neza kandi ku murongo, harimo karoti, ibitunguru by'amababi, amashu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Agakarita k'umuhondo gatangwa na sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, kakaba gakoreshwa n'abacuruzi, aho kaba kariho izina ry'umucuruzi n'akodi wakoresha umwishyura batagukase amafaranga yo kohereza.

Umugore uri kumwenyura witeze igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'umweru, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umuhondo ndetse afite agapapuro mu ntoki gashyirwaho code y'umucuruzi, ukishyura batagukase.

Inzu ikoreramo isosiyete y'itumanaho mu Rwanda izwi nka Eyateri hari utubati, tugiye turimo udukarito tw'umutuku turimo amatelefone agurishwa ndetse n'icyapa kiriho abakobwa babiri.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Ahagaragara inyubako yiganjemo amabara y'umuhondo, hakaba hariho icyapa kinini kigaragaza ko ari ahakorerwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'abakozi b'icyo kigo.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'umucuruzi ukorera isosiyete y'itumanaho mu Rwanda izwi nka MTN, akaba atanga serivise zitandukanye ku baje bamugana zirimo kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga.

Abagabo bicaye ahantu hamwe abandi bahagaze ndetse bari munsi y'umutaka w'umuhondo w'isosiyete y'itumanaho ya MTN, uwicaye ari guhaha serivisi uwaje amugana zigiye zitandukanye.

Ahagaragara inzu iri mu mabara yiganjemo umuhondo, ikaba ikorerwamo n'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN hari urujya n'uruza rw'abantu, bari kugenda bareba ibindi biri aho.

Umukobwa uri kumwenyura wambaye amaherena y'ibiziga ku matwi ye. Ndetse yambaye n'umupira usa icyatsi wanditseho vuba vuba, imbere ye yafunguye igisanduku kinini cy'icyatsi.

Amapikipiki ari mu muhanda wa kaburimbo yicaweho n'abayobozi bayo, kuri ayo mapikipiki hariho udusanduku turi mu ibara risa, bose bari kureba hino bigaragara ko bari gufata agafoto.

Ipikipiki iparitse, ihetse agasanduku gatukura, ndetse hejuru y'ako gasanduku, hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, uri guterekaho amverope, akaba ahetse n'akandi gakapu.

Ipikipiki ihagaze mu muhanda w'amabuye, uyicayeho yambaye ishati y'icyatsi, ku ipikipiki hariho igisanduku kinini cy'icyatsi cyanditseho vuba vuba, akaba ari kampani utumizaho ibyo kurya wibereye iwawe mu rugo.

Umugabo uhetse igikapu kinini cy'icyatsi. Yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro y'umukara ndetse afite ikinyamitende kizwi nk'igare. Akaba ahahagaze imbere y'igipangu bisa nkaho abazaniye ibyo bamutumye.

Umusore ubona ko yasabwe n'ibyishimo byinshi cyane, yambaye ishati y'ibara ry'icyatsi, afite amvirope mu ntoki ze irimo ibiribwa bitandukanye, nka karoti n'imboga, imbere ye hari igisanduku kinini cyanditseho vuba vuba.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye kuteri z'umweru, umupira w'ubururu, afashe terefone ye mu ntoki ari kumwenyura. Imbere ye hakaba hari agakapu k'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ahagaze imbere y'ipikipiki, iriho igikapu kinini cy'icyatsi, kuruhande hari umuhanda wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'ibyapa byo mu muhanda.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, yambaye ekuteri z'umweru agapira k'ubururu ndetse afite terefone ngendanwa mu ntoki ze, yicaye ku mashuka y'umweru, imbere ye hari agakapu k'umukara.

Ipikipiki iriho umuntu uyitwaye, yambaye umupira w'umuhondo ndetse ahetse igisanduku kuri moto ye, kiri mu ibara ry'umuhondo na oranje, bakaba ari abantu bakora ubucuruzi bwo kuri murandasi.

Inzu nziza iherereye Kacyiru, mu mujyi wa kigali, ikaba ifite igitanda cyiza gishasheho amashuka, ari mu mabara atandukanye, hanze hakaba hateye ibiti biza n'amahumbezi muri icyo cyumba.

Inzu nziza cyane, ifite ibikuta bisize ibara ry'umweru, inzugi n'amadirishya biri mu ibara ry'umukara ndetse ikaba ifite n'amatara meza cyane. Ku mafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu, ushobora kuyibona ikaba iyawe.

Inzu nziza cyane ifite ibikuta bisize amabara y'umweru, harimo intebe zo kwicaraho, icyuma cy'ikoranabuhanga gitanga umuyaga ndetse n'insakazamashusho, hakaba hari n'amatara meza cyane.

Umusore wambaye ikote, ishati y'umweru ndetse na karuvati, ahagaze imbere y'inyubako nziza cyane, ubona ifite ibipangu bibiri bitandukanye, ndetse ifite n'amadirishya y'ibirahure gusa.

Igipangu cyiza cyane gitatswe n'amabara agiye atandukanye, inyubako ikaba ifite igisenge kinini kandi kiri mu mabara meza, ifite ahantu waparika ikinyabiziga kandi iherereye Kigali Kanombe.

Inyubako ndende igeretse, ikaba yubakishijwe n'amatafari ya ruriba, ifite ibyumba bibiri ubwogero bubiri kandi ushobora kuyikodesha, ikaba ifite n'imbuga nini waparikamo imodoka.

Inyubako nziza cyane iherereye i Kibagabaga, ikaba ifite igisenge cyiza n'amabara arimo umutuku ndetse n'umuhondo, ifite imbuga nini waparikamo imodoka yawe.

Inyubako iherereye i Kigali, Kanombe, igizwe n'igisenge cyiza cyane ndetse n'amabara agiye atandukanye, ifite imbuga nini ushobora guparikamo imodoka, ikagira ibyumba bine.

Inzu isize amarange agiye atandukanye, harimo umweru, umuhondo n'umukara, ikaba ifite imbuga nini ishobora guparikwamo imodoka, iherereye Kigali, Kanombe ifite ibyumba bine ndetse ku bihumbi magana atatu mirongo itanu wayibona.

Inzu nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali i Rebero, ikaba isizwe n'amabara atandukanye, ay'umweru, umukara ndetse n'aya shokora, ifite ibyumba bitatu.

Inyubako igizwe n'amabara agiye atandukanye, ikaba ifite igisenge cy'umukara, hari n'amadarajya azamuka hejuru, ifite imbuga nini ushobora guparikamo ikinyabiziga, ikagira ibyumba bine.

Umukobwa ufite imisatsi yazingiye inyuma ku mutwe y'umukara, yambaye agapira kari mu ibara ry'umweru n'ikoboyi y'ubururu, imbere ye hari Inanasi ndetse ari kwishyura yifashishije ikoranabuhanga.

Ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye yaba iy'abagabo irimo imikandara n'iy'abagore igizwe n'amasakoshi, hakabamo n'inkweto nziza cyane zikozwe mu ruhu.

Ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye y'abagabo, harimo umudamu uhagaze wambaye agapira k'umutuku. Ndetse n'abandi bari gucuruza n'abaje kubagurira.

Abamama batatu, bahagaze ahantu hamwe, bigaragara ko hari ahantu hagurishirizwa amavuta agiye atandukanye yo kwisiga, yaba ay'abagabo cyangwa abagore, mo imbere harimo umuntu wicaye uri kuyacuruza.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku ndetse afite akantu ari kugenda ashyiramo ibicuruzwa yahashye. Ku ruhande rwe, hari ama etajeri agiye apanzeho ibiribwa by'amoko atandukanye.

Iduka rya kijyambere rigezweho ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye: nk'amazi yo kunywa, ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hahagazemo umukobwa ari guhitamo ibyo yifuza.

Abagore bicaye hamwe ndetse bari kumwe n'abana babo, bafite ibipapuro mu ntoki bigiye bitandukanye, bigaragara ko bari kwa muganga, baje gukingiza abana babo cyangwa kubavuza.

Abaturage bagiye batandukanye bakoraniye hamwe ndetse bari kumwe n'abayobozi babo, bafite udupapuro mu ntoki twabo tuzwi nka mituweri do sante, tugufasha kuba utarembera mu rugo mu gihe udufite.

Umumama ndetse n'umugabo bakuze bageze mu za bukuru, urabona ko bishimiranye kubera ko bafashe ubwishingizi muri ejo heza none bakaba babona pansiyo nziza cyane.

Abantu batandukanye bari ku murongo, harimo abagabo ndetse n'abagore, hari umugabo uri kuvugana n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, uwo mugabo akaba yambaye umupira w'umukara. Bari guhaha ibicuruzwa bitandukanye.

Umugabo wambaye amarinete n'ishati ku kaboko afiteho isaha ndetse ari gukoresha uburyo bugezweho bwo kwishyura, aho asikana kode mu kamashini hanyuma akaba arishyuye.

Ahacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye hazwi nko muri supamaketi, hakaba harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ukaba ushobora kubagana ufite ibyo ukeneye, ugahitamo ibyo wifuza ukabyishyura ukabijyana.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye mu buryo bugezweho, hazwi nko muri supamaketi, hari etajeri zipanzeho ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibindi biri mu makarito bigifunze batarapangamo neza.

Ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye mu buryo bugezweho kandi bwa kijyambere, hakaba hari ibibiriganya, karoti, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye, haracyeye cyane.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye bigiye bipanze mu mapaki, biri muri etajeri kandi bipanze neza, ushobora kubagana ukaba wahitamo icyo wifuza, hanyuma ukacyishyura ukakijyana.

Ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho, hakaba hari etajeri nini cyane zigiye zipanzemo ibyo bikoresho n'ibiribwa, aho ushobora kujya ukihitiramo icyo ushaka.